Ku nzu y'ubucuruzi bw'ama inite, aho ushobora kujya kubitsa amafaranga, ukayohereza, cyangwa ukayabikuza. Hari umu mama wicaye, akaba ari kwakira umukiriya. Imbere hakaba harimo n'inkweto acuruza.

Umukobwa mwiza wambaye umupira w'ubururu, akaba afite imisatsi miremire, yambaye ingofero y'umweru, mu ntoki afite urupapuro ndetse agiye kuzuza muri mudasobwa imibare iriho kugira ngo akore raporo isabwa.

Ni nyubako nziza, aho abaturage bajya kubitsa ndetse no kuguza amafaranga, bifashisha mu gukora imirimo itandukanye maze bagatanga ingwate kugira ngo nibananirwa kuyishyura, bazayigurishe.

Abantu bicaye ku ntebe, imbere yabo hateretse ameza hariho amatunda, wotameroni, amavuta n'ibindi bikoresho bitandukanye, hakaba hari n'abandi babiri bahagaze ndetse n'umwe uri kugira ibyo yerekana.

Inama yahuje abayobozi batandukanye, bakaba hajemo n'abanyamahanga, bakaba biga ku kibazo cy'ubukungu bw'igihugu muri rusange. Bakaba bagira ngo bagirane imishyikirano ndetse no gufashanya kugira ngo abaturage barusheho kubaho neza ndetse no kwiteza imbere.

Igare riparitse munsi y'igiti hakaba hariho amakaziye atanu ndetse harimo inzoga zo kunywa zitandukanye, inyuma y'aho hari amazu yubatse neza, hakaba hari n'abantu benshi batandukanye.

Mu nzu nziza y'ubucuruzi, harimo ubwoko bw'inzoga zitandukanye, amazi ndetse n'ibirahure byo kunyweramo, hakaba hateretsemo ameza ndetse n'intebe yo kwicaraho, mu gihe ugize icyo ufatira aho ngaho.

Mu nzu y'ubucuruzi higanjemo: imifuka y'isukari, umuceri, umunyu ndetse n'ubugari, hakaba harimo isabune yo koga, amavuta yo guteka ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye umuntu akenera byo gukoresha.

Imodoka nziza y'umukara, iparitse imbere y'aho bacururiza ibikoresho bitandukanye, harimo intebe zo kwicaraho, umukoropesho, amabase yo kogeramo no gufuriramo ndetse hari n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Ibikoresho byabugenewe, abaturage bifashisha boza amenyo yabo ndetse bikaba biri kumwe n'umuti wabugenewe, wica indwara zose zandurira mu kanwa, zikarinda amenyo guhongoka ndetse no gucukunyurika.

Mu nzu y'ubucuruzi harimo: amandazi, harimo utujerirekani turimo amavuta yo guteka ndetse harimo n'ibindi bikoresho byifashishwa mu mirimo itandukanye. Hakaba hicayemo umuntu uri gucuruza ndetse n'umwana wicaye mu ntebe umuri iruhande.

Ni mu nzu y'ubucuruzi aho ubariza ibintu byose bitandukanye, harimo amavuta yo kwisiga, ayo guteka ndetse n'inzoga z'amoko atandukanye, hakaba harimo n'imisatsi babohesha indi misatsi kugira ngo umuntu agire ibisuko.

Mu ishuri ritoya ry'incuke harimo umurezi ndetse mo imbere ku gikuta, hakaba hashushanyijemo, inkwavu, ihene, inkoko ndetse n'ibindi bishushanyo bifasha abana gusobanukirwa, amatungo yose.

Abapadiri babiri, bakaba bari kumwe n'umushumba mukuru, bakaba bahagaze kuri alitari, imbere yabo hakaba hari indangururamajwi, bakaba bagiye gusoma ijambo ry'imana kugira ngo abakristu batege amatwi kandi bakurikire.

Mu Kiliziya hakaba hateraniye abakirisitu barimo guhimbaza Imana, bamwe bakaba bapfukamye bari gusenga, basaba Imana, bayishimira imirimo idahwema kubakorera

Inyubako nziza, ifite ibyuma byiza, ikaba yubakishije amatafari, ahiye ndetse isakajwe n'amabati meza, ikaba ifite inzugi ndetse n'amadirishya agezweho, ikaba ikorotiriye, imbere yayo hari ubusitani bumeze neza.

Muri salo hateretse ameza, hejuru hakaba hariho imbuto zitandukanye harimo: inanasi, avoka, imineke ndetse n'ibisori birimo ibiryo by'amoko yose, hakaba hari umuntu wambaye imyenda yabugenewe, akaba ari gutegura amafunguro.

Mu cyumba baryamamo, kikaba gishashe neza, hariho umusego umwe ndetse n'amashuka yo kwiyorosa, hakaba hamanitse inzitiramibu kugira ngo ibe yabarinda indwara zitandukanye.

Imashini idoda imyenda itandukanye, harimo amapantaro, amakabutura, amashate, ndetse n'amakanzu. Hakaba hari intebe bicaraho bari kudoda, ndetse n'abaturage bari kunyura iruhande rwayo.

Iri itsinda rigari ryishyize hamwe kugira ngo bazajye bahinga ibigori bakuremo amafaranga babinyujije mu kubigurisha, akawunga ndetse n'umuceri n'ibindi byose.

Ku isoko, aho hateranira urujya n'uruza rw'abaturage, hari abagabo baje bafite amagare menshi ahetse imizigo, hakaba hari umugabo ufite igiti kirekire gikomeye n'umunnzani mu ntoki, akaba aje kubapimira ibiro bifite kugira ngo babahahire.

Inzu nziza yubatse neza ikaba ifite urubaraza, ikotiriye n'ibyuma bikomeye, iruhande rwaho hakaba hari ishyamba ryinshi kandi rirerire.

Mu muhanda wa kaburimbo hanyura urujya n'uruza rw'abaturage, ndetse n'ibinyabiziga bitandukanye, harimo moto, imodoka, amagare ndetse n'ibindi bitandukanye hakaba harimo umumotari uhetse umugenzi.